Ameza yigishirizwaho mu ishuri. Ni ngombwa ko abarimu bagira ubumenyi buhagije bwo kwigisha bityo bakagira n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi. Iyo wiga biragufasha, ukabona ubumenyi ukeneye.

Ibiti bitandukanye biteye ku mashuri. Ni byiza ko ku mashuri haterwa ibiti by'amoko atandukanye kugira ngo bikurure akayaga keza abantu bahumeka, bikurure kandi n'imvura ndetse abantu bagire umusaruro.